Icyapa cyerekana ubwisungane mu kwivuza kikaba kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, imbere yacyo hakaba hari intebe n'ameza arambitseho ibitabo bine mu ibara rya kaki igikuta gisa kake inyuma y'icyo cyapa.

Igorofa nziza ikitiwe n'ibiti nk'ubusitani ikaba isize amarangi y'umweru n'umukara iruhande rwayo hakaba hari imbuga y'abanyamaguru bagomba kugendamo n'imodoka ihagaze itari kugenda.

Icyapa gifite ibara ry'umukara gishinzwe kwamamaza, hakaba handitseho amagambo asa umweru, hiyongeyeho n'imibare mu ibara ry'umutuku, kikaba gikikijwe n'ibyatsi byiza cyane.

Ibara ry'umukara, rifiteho udutako dusa umweru n'amagambo yatwo, hasi hakaba hari umurongo uciye utambika, usa umuhondo, wijimye cyane.

Inzu y'ubucuruzi iri imbere y'umuhanda ikaba ifite umukindo imbere yabo hirya yawo hakaba hari imodoka n'umunyamaguru uri kugenda imbere yawo ufite igikapu mu ntoki.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ikaba irimo ibintu bitandukanye harimo: ingofero, imipira n'amatara acanye iruhande rwayo hafi.

Icyumba gifite igikuta gisize irangi ry'umweru, hakaba hariho imitako ifite amabara atandukanye. Imbere yayo hakaba harambitse igikoresho gikozwe mu mbaho. Hejuru yaho hariho itara riri kwaka.

Ndabona imodoka ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite amapine y'umukara, hirya y'iyo modoka hari ibirahuri, inyuma y'iyi modoka ndabona ameza ariho icupa ririmo amazi, nkaba mbona n'imvaho. Ayo meza akaba afite ibara ry'umukara n'umweru.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gifite ibara ry'umukara, inyuma yaho hakaba hari amagorofa agiye atandukanye, afite ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Igikorwa remezo cy'umuhanda kirimo imodoka isize irangi ry'umukara n'amapine bisa, imbere yayo hakaba hari amazu agiye atandukanye, afite uruzitiro rw'ibyuma n'ibiti birebire biteye imbere yarwo n'amapoto akwiye gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu isize irangi ry'umukara ku nkuta, ikaba iparitsemo ibinyabiziga by'imitende ibiri bifite amabara agiye atandukanye, imwe muri bo isize irangi ry'umweru n'amapine y'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bafashe ku cyapa, umwe muri bo akaba afite igikapu gisa ibara ry'umweru n'umutuku n'isaha k'ukuboko kwe, bakaba bahagaze mu mbuga igenewe kugendwamo.

Abantu bahagaze bagiye batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, umwe muri bo akaba yambaye ishati isa umweru n'inkweto zisa umukara, inyuma yabo hakaba haparitse ibinyabiziga by'imitende ibiri, hiyongeyeho n'inzu ifite amatara ari kwaka.

Abagabo babiri bafashe ku cyapa bagihuriyeho umwe muri bo akaba yambaye umwenda w'umukara inyuma ye hakaba hari ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu hiyongeyeho n'urukuta rufite ibara ry'umweru n'umukara n'ibyatsi inyuma yacyo.

Ibiganza bifashe amafaranga agiye atandukanye n'ikaramu, imbere yabo hakaba hari umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara, wambaye agapfukamunwa k'umutuku uri kuyareba neza cyane.

Ikiganza cyambaye isaha mu by'ukuri kikaba gifashe ku mashini cyifashishwa ibara amafaranga isize irangi ry'umweru n'umukara, n'imibare igaragara mu ibara ry'umutuku cyane.

Igikoresho gishinzwe kubara amafaranga kikaba gifite amabara atandukanye nk'umukara n'umweru, imbere yaho hari inote z'amafaranga nyinshi ziriho imibare itandukanye, imwe muri zo ikaba ifite igishushanyo cy'inyamaswa ifite ihembe.

Ibiganza by'umuntu kimwe gipfumbatije amafaranga ikindi kirambitse ku meza ariho menshi, imbere ye hari urukuta rusa umweru n'ubururu n'igikoresho cy'umuhondo kirambitse ku meza.

Umubyeyi w'umumama wicaye ufite telefoni mu kuboko kwe iruhande rwe hakaba ari igikombe gifite ibara ry'umweru, inyuma ye hakaba ari igikoresho cyagenewe gukonje no kubika ibinyobwa n'ibiribwa gifite ibara ry'umutuku.

Inzu isizwe irangi ry'ubururu, n'umweru, ku gikuta imbere yayo hakaba hari igikoresho gikozwe mu biti giteretsemo amazi apfundikije umufuniko w'ubururu, hejuru yayo hakaba hateretse ibyatsi bibiri.

Ameza afite ibara ry'umweru hakaba hateretsemo igikoresho kirimo amagi n'agacupa karimo uduti gafite ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba hari agacupa gafite ibara ry'umuhondo n'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gabo bahagaze umwe muri bo akaba afite telefoni mu ntoki ze, iruhande rw'undi hakaba hari amagambo ahanditse mu ibara risa umuhondo n'umweru, n'imibare myinshi itandukanye.

umuntu wigitsina gore ufite imisatsi yumukara miremire uri guseka yambaye umupira usa umweru ikiganza cye gifashe terefone iri kwaka mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditsemo ati a atatu

Umuntu wambaye ishati y'umweru mu kaboko ke akaba afite amafaranga menshi cyane, iruhande rwe hakaba hari uwambaye umwenda w'ubururu akaba ari no kuri telefone.

Ibiganza by'umuntu, kimwe kikaba cyambaye isaha; akaba afashe amafaranga ari kuyabara, afite amabara atandukanye nk'umweru n'icyatsi, imbere ye harambitse intebe ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo.

ibiganza by'umuntu biri kubara amababara arambitse ku meza menshi cyane, ifite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwe hakaba hari uwicaye uri kumureba wambaye ishati y'umukara.

Ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga menshi cyane akaba ahambiriwe, inyuma yaho hakaba hari ibara ry'umweru n'ubururu n'umukara n'umutuku muri aya mafaranga.

Umuntu wicaye, akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, ikiganza cye kikaba kiriho isaha, mu ntoki ze akaba afitemo amafaranga, imbere ye hakaba hari ameza ariho amafaranga.

Inzu ifite igikuta gisize irangi ry'umuhondo, hakaba hariho ibyapa byamamaza ibikorwa remezo bikeya bitandukanye, hiyongeyeho n'umuntu wegamye ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'umutuku.

Icyapa gishinzwe kwamamaza ivunjisha ry'igiciro cy'amafaranga mpuzamahanga, kikaba gisa mu ibara ry'umweru hakaba handitsemo amagambo agiye atandukanye bitewe n'icyo akora, ndetse n'imibare bitewe n'agaciro k'ayo mafaranga.

Intebe zikozwe mu biti zikaba zitarambitse hasi, iruhande rwazo hakaba hari inzugi zikozwe mu byuma zisize irangi ry'umuhondo imbere yabyo hakaba hari akabati gafite ibara ry'umweru.

Igorofa ndende isize irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya arimo ibirahuri. Iruhande rwayo hakaba hateye ubusitani bwiza burimo ibiti, ku ruhande hari ikigega gifite irangi ry'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'ubururu n'umuhondo. Hejuru yayo hakaba hari ibyapa byo kwamamaza, byanditse mu ibara ry'umweru n'ibiri mu kaziga. Imbere yaho hakaba hari ibyapa bishinzwe kwamamaza.

Umuntu w'igitsina gore uri guseka ufite imisatsi myiza cyane, yambaye ikanzu iciyemo uturongonko dufite amabara atandukanye nk'ubururu, umweru n'umukara, imbere ye hakaba hateye ibyatsi byiza cyane.

Isoko ririmo abantu batandukanye bacuruza imbuto harimo inyanya, insenda, intoryi n'ibindi byinshi.

Abantu babiri b'igitsina gore bahagaze, umwe muri bo akaba afite imisatsi y'umukara, imbere ye hari ameza ariho imbuto z'amoko atandukanye nk'indimu n'imyembe, inyuma ye hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe, umwe muri bo akaba afite mudasobwa ifite ibara ry'umukara ari kuyirebamo, imbere ye hari umukobwa uhagaze wambaye umupira w'umuhondo n'ameza ariho imipira myinshi, hejuru ye akaba atwikijwe n'umutaka.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, ikaba yanditseho amagambo ari mu kiziga, mu ibara ry'umukara, inyuma y'aho hakaba hari ibiti byinshi cyane.

Umugore ufite imisatsi y'umukara n'agapfukamunwa mu maso, yambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umutuku, umuhondo. Iruhande rwe hari umuyobozi w'ikinyabiziga n'umunyamaguru uri kugenda mu nzira yahariwe abanyamaguru.

Igipapuro gisa umuhondo cyanditsemo amagambo menshi atandukanye mu ibara risa umukara, hakaba hariho n'imibare myinshi yanditswe igiye itandukanye n'ikirango gikikije iyo mibare hejuru yayo.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'inkweto z'umukara n'umweru. Akaba afashe ku igare rifite amape y'umukara imbere ye hakaba hari umuryango ukoze mu byuma, ukikijwe n'ibyatsi n'inkuta z'amatafari.

Umukobwa wambaye umfasha kureba akaba afite imisatsi y'umukara afashe k'umunwa we nuw'akananwa akaba yambaye imyenda isa umukara, ikiganza cye kikaba gifite terefone ari kuyirebamo.

Umuntu wambaye umwenda uciyemo uturonko turi mu mabara asa ubururu n'umweru, inyuma ye hari ubusitani burimo indabo hiyongeyeho n'igorofa ndende isize irangi ry'umweru, n'ibirahuri mu madirishya.

Abantu babiri bambaye imyenda y'icyatsi hejuru bakuriyeho bafashe ku gikarito, inyuma yabo hakaba hari igorofa ryiza cyane rifite ibara ry'umweru n'uruzitiro rw'amatafari ahiye.

Igorofa ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe irangi ry'umweru ku madirishya no ku miryango. Imbere yaho hateye ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye nk'umukindo.

Inzu ifite urukuta n'inzugi bisize irangi ry'umweru, imbere yaho hakaba hateretse igikoresho babikamo ibintu kikanabikonjesha, hejuru yacyo hari icupa ripfundikiye neza.

Inzu isize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hakaba hari uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye; ikaba ifite n'ubusitani imbere yayo busa neza cyane, hiyongeyeho n'amazu ayizengurutse n'ibiti.

Inzu isize ibara ry'umweru n'umukara, ikaba ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye; imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabyo, inyuma hakaba hateye ibiti birebire biyisumba.

Inzu zisakajwe amabati afite amabara agiye atandukanye, imwe muri zo ikaba isizwe irangi ry'umweru yubakijwe n'amatafari ahiye, ikaba izengurukijwe urukuta rufiteho ibyuma.

Inzu ifite inkingi eshatu ikaba isize irange ry'umukara n'umweru, inyuma yaho hari ibiti birebire bisumba uruzitiro rwayo, haparitsemo imodoka itari kugenda.

Inzu ifite ibikuta by'umweru n'amatara amanitse hejuru ari kwaka hiyongeyeho n'amakaro. Ifite inzugi zisa umukara n'ibirahuri, imbere yayo hari ibyatsi biteye isa neza.

Urukuta rusize irangi ry'umukara imbere hakaba hariho inzego, iruhande rwacyo hateye ibiti birimo imyembe, umukindo n'ubusitani bwiza cyane. Kikaba gikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Inzu ifite irangi ry'umweru n'ubururu n'amadirishya y'umukara, inzugi zisa irange ry'umukara, imbere yayo hakaba ari inzira y'abanyamaguru banyuraho.

Amagorofa abiri atandukanyijwe, n'uruzitiro rimwe rikaba rifite irangi ry'umweru n'amadirishya y'umukara y’ ibirahure imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi n'umukindo n'inzira y'abanyamaguru.

Igorofa ndende isize amarangi agiye atandukanye harimo umweru n'ubururu, ikaba ifite amadirishya arimo ibirahuri, izengurukijwe n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye hiyongeyeho n'andi mazu ari inyuma yayo.

Mudasobwa ifite ibara ry'umukara ikaba iri kwaka, inyuma yayo hakaba hari igikuta gifite ibara ry'mweru, imbere yayo hakaba ari ikiganza cy'umuntu gifite ishashi.

Igorofa ndende ifite ibirahuri n'amadirishya asa umukara, isize ibara ry'umweru, imbere yayo hari ibiti birebire n'abanyamaguru bari kugenda mu gice cyabugenewe bisanzuye n'intebe.

Inzu y'ubucuruzi ihuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze abandi baricaye, umwe muri bo akaba yambaye umupira usa umweru n'inkweto zisa n'umweru, iruhande rwe hahagaze abantu benshi.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisizwe irangi ry'umweru, ikaba ihuriyemo abantu benshi bagenda batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, umwe muri bo arahagaze yifashe mu mufuka, yambaye umupira w'umukara.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi akaba ari guseka, akaba yambaye umupira urimo amabara abiri atandukanye, umutuku, ubururu n'umukara, ibiganza bye bikaba bifashe ku macupa.

Abantu bane bicaye ku ntebe, umwe muri bo yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, undi yambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo, inyuma yaho hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe ikozwe mu giti, umwe muri bo akaba yambaye agatambaro mu mutwe n'umupira w'umuhondo, ibiganza bye bikaba bifite ikayi.